Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo uburongo bumanutse n'ubutambitse y'amaboko magufi, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso y'umukara n' amarinete ndetse afite imvi nke mu mutwe, inyuma ye hahagaze icyapa cyanditseho nimero n'andi magambo hejuru, iruhande rw'icyo cyapa hari ameza ariho igitambaro cy'umweru hejuru ateretseho icupa ry'amazi.

Hejuru y'umurima udahinzemo imyaka myinshi, ariko n'ibiti bito bidakuze ahandi hakaba hari umurima udahinzemo imyaka, hari amapoto ari insinga nyinshi zishambitse hasi no hejuru.

Mu rugo ruzitije senyenge harimo, amapoto abiri ahagaze atambitseho ibyuma bibiri hejuru biteretseho imashini yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ifasheho insinga zayo. Ku ruhande mu rugo rw'imbere harimo ipoto y'amashanyarazi iriho itara ry'umuriro inyuma hari urugo rw'amabati naho ahagana hirya aho rwa ruzitiro ruri hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Impande y'akayira k'abanyamaguru kegeranye n'umurongo w'indabo zifite amababi y'umuhondo, hari inzu ifite ibaraza riteyemo irangi ry'icyatsi, yicayemo abantu batatu bicaye ku ntebe z'imbaho. Imbere hariho inkingi ebyiri zisize irange ry'icyatsi naho hejuru yazo hasize irangi ry'ububururu, hari n'icyapa cyanditseho ngo: "Gira ubuzima". Iyo nzu isakaje amabati y'ubururu yegeranye n'indi iteye irangi ry'ubururu nayo ifite cya cyapa cyanditseho ngo: "gira ubuzima" mu mbavu. Naho hejuru isakaje amabati y'ubururu nayo.

Imbere y'igikuta gisize amarangi y'umweru, ahantu hari kwaka amatara. Hahagaze abantu bari kumurongo harimo abambaye udutambaro mu ijosi tuzwi nka furari turi mu ibara ry'ivu. Bahagaze bifashe neza ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo imbere wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweruru, wambaye nawe agatambaro k'umweru mu ijosi kazwi nka furari.

Mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe na borodire z'umukara n'umweru, harimo umugabo utwaye moto wambaye umupira w'umukara ufite amaboko maremare n'ingofero. Yambaye igikasike cy'umutuku. Impande ya za borodire zikikije umuhanda hari ubusitani ndetse n'amazu yo mu bwoko bwa konoshi.

Abantu benshi biganjemo abambaye amakabutura y'umuhondo n'imitira y'amaboko magufi y'umuhondo bahagaze mu kibuga ab'imbere bunamye bifashe ku mavi naho ab'inyuma bahagaze bafatanye mu mugongo, inyuma y'ahantu bahagaze hari amazu yegeranye n'ibiti.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'amaboko magufi w'ubururu urimo imirongo itambitse y'umukara afashe mikoro mu biganza bye byombi, yambaye amarinete, ahagaze imbere y'ahantu hari intebe z'ubururu ziri hejuru y'ahantu hubatse inzu ifite amadirishya n'inzugi bisize irange ry'umweru.

Mu kibuga harimo abana b'abahungu bambaye imyenda y'amakabutura n'imipira bya move abandi by'umukara, imyenda yabo iciyemo imirongo y'umweru imanutse mu mbavu indi hejuru y'intugu, uri imbere yambaye umupira wanditsemo ngo Tabagwe sekita nimero zirindwi, afite umusatsi mwinshi udasokoje naho imbere ye hari uwambaye iby'ubururu nabyo biciyemo imirongo nk'ibya wa wundi.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umweru kuhande hari umuntu usunitse igare ririho amabuni menshi amwe kumpande andi hejuru ku ntebe yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro yacitse ku mavi n'inkweto z'umweru iruhande rwe hari ishyamba ririmo ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi.

Akayira gato k'amaguru gafite amabuye ashinyitse mo hagati iruhande rwako hari ibyatsi byinshi aho kerekeza hari inzu izengurutswe n'uruzitiro rw'ibiti by'imiyenzi iyo nzu ifite inzugi zisize amarangi y'icyatsi.